Ihuriro ry'abantu bahuriye hamwe bahujwe n'umugambi umwe, bahujwe n'ikintu kimwe, yaba mu nama cyangwa mu rusengero, muri salle cyangwa ahandi hantu bakurikiye bateze amatwi ubasobanurira ugira icyo ababwira.

Abita ku barwayi ba kanseri mu Rwanda, aho abarwaye kanseri bahurira hamwe, bakaganira, bagaterwa imbaraga, ndetse bagafashwa no mu bishoboka.

Igitanda cyo kwa muganga, ibi ni ibitanda bisangwa mu bitaro. Aho bikorerwaho ibikorwa bitandukanye byo kwa muganga, harimo nko kuba umurwayi wagize ikibazo ukeneye ubufasha bwo kubagwa cyangwa kongererwa amaraso n'ibindi.

Iyi ni imiti gakondo; imiti iba yaragiye itegurwa hifashijwe ibimera bisanzwe nk'ibishaka n'ibindi, ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ikirungo gikoze mu bitunguru. Ikirungo gikoreshwa ku biryo bihiye, nk'inyama, amafi cyangwa ibindi bitandukanye.